Inyubako ifite inkuta zifite ibara ry'umweru ikaba irimo akabati kageretse gakozwe mu mbaho kakaba kariho kamambiri zifashishwa mu kujyana koga zifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuntu, hakaba hari n'izindi zifite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo.

Inyubako igeretse rimwe ifite amabati afite ibara ry'umukara, ndetse n'inkuta zifite ibara ry'umweru, hakaba harimo amadirishya afite ibara rijya gusa nk'ivu arimo ibirahure ikaba ifite igipangu gifite ibara ryo gusa nk'ivu kikaba cyubakiye ku nkuta zifite ibara gusa nk'ivu ririmo umweru, hanze hakabateye ubusitani burimo indabyo n'ibyatsi ndetse n'igiti.

Inzu nyinshi zubatswe kimwe zikaba zifite ibara, ry'umweru ndetse n'ubururu zikaba zifite, amadirishya afite ibara rijya gusa na kaki arimo ibirahure, hanze y'iyo nzu hari ubwogero rusange bw'abantu baba baje muri izo nzu.

Umugabo wambaye agapira gafite ubururu bwijimye, akabahetse igikapu gifite ibara rajya gusa nka kacye, wambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara n'umweru akaba afite igare mu ntoki rifite ibara ry'umukara ririmo amabara arimo umuhondo ndetse ari kurigendesha umuhanda w'umukara wa kaburimbo.